Umuforomokazi uri mu bubiko bw'imiti, imiti idufasha kugira ubuzima bwiza, imiti ituvura indwara zitandukanye, ndetse aho ari kugerageza kureba umuti yahereza umurwayi.

Ibiti by'intobo bikiri bitoya, aho tubyifashisha mu gukora uruzitiro, twaba turimo kuzitira umurima cyangwa se urugo, kugira ngo tugire urugo ruzitiye.

Ubwoko bw'ibyatsi dukunze kwita isanduruma, aho dukunze kubigaburira amatungo, cyane cyane amatungo magufi nk'inkwavu, inkoko ndetse n'andi matungo atandukanye.